Umugezi umwana awuhagazemo anawuvomamo n'akajerekani, amazi yawo ntabwo asa neza, ku nkengero hariho ibyatsi, ndetse n'amashami y'ibiti ameze nk'aho ashaka gukora mu mazi.

Imigezi ibiri yombi irafunguye, umwana wambaye agapira gatukura n'ikabutura y'ubururu, ari kuvoma kuri umwe muri iyo. Ku wundi ho amazi ari kumeneka, hirya yaho hari ibyatsi n'ishyamba.

Inzu iriho idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda ndetse na Startime, imbere y'ayo hari abantu benshi b'ingeri zitandukanye, nk'inyuma y'abo hari imodoka. Imbere y'abo na ho hari Ambulance ikinguye umuryango wa shoferi, inyuma yayo hakaba hari kugaragara umudaso n'ihema ry'itente ndetse n'ubundi n'abaturage benshi.

Imigezi ibiri yombi irafunguye, umwe muri yo umwana ari kuvomaho n'igikombe ariko ntabwo yatezeho neza amazi makeya ari kumeneka. Ku wundi mugezi wo amazi yose arimo arameneka ariko umwana afite akanyamuneza ku maso urabona ko ari guseka.

Abanyabuzima benshi b'abagabo n'ab'abagore, bari kumwe n'umuzungu wambaye ipantaro n'ikoti by'umukara, bari mu nzira, iburyo n'ibumoso hari ibiti kandi inyuma yabo hari inyubako.

Umubyeyi uteruye umwana uri guhabwa umuti, afite ibitwenge ku maso, ubu ari mu nzu y'urugi rw'icyatsi n'uri guha umwana umuti, yambaye itabuririya y'umweru kandi arawumuhereza neza.

Umwana urimo gukaraba intoki kuri kandagira ukarabe y'indobo n'ibase by'icyatsi, ari mu nyubako zigaragara nkaho zishaje kuko amatafari amwe n'amwe arunze hasi, ameze nkaho ari inyubako yaguye.

Umugabo wicaye hasi, yambaye umupira utukura n'ikabutura y'ikoboyi. Yambaye amapingu mu maboko ye. Inyuma ye hari abantu benshi ariko mu maso yabo ntabwo hagaragara. Muri bo harimo n'umwe umeze nk'umupolisi yambaye butini.

Abanyeshuri benshi. Bazamuye ibiganza kandi bishimye. Hafi ya bose bambaye amashati y'ubururu. Inyuma yabo hari Idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda. Hirya yaryo hari abandi banyeshuri. Ariko hari n'inzu nkeya ziri kugaragara.

Umusore ufite ubwanwa n'inyogosho y'umusatsi utari mwinshi, ari kumwenyura aragaragara nkaho yishimye. Yambaye umupira wa shokora n'ikoti ry'ikoboyi, inyuma ye urebeye nko ku rutugu rw'ibumoso n'urw'iburyo hari uturabo tw'iroza.

Umumama n'umukobwa we, bari koza amenyo yabo bakoresheje uburoso, bombi bambaye amasengeri, bari mu nyubako y'amabara y'umweru, irasa neza, urumuri ruri muri iyo nyubako ni rwinshi kubera ko ni ku manywa.

Abantu icyenda bicaye mu nzu bashyize amaguru ku mukeka. Batatu muri bo bambaye ingofero z'abasilamu, kandi aba bantu baragaragara nk'abasheshe akanguhe ndetse amasura yabo aragaragaza ko batishimye.

Umukecuru ufite akanyamuneza ku maso arahagaze, mu kiganza cye cy'ibumoso harimo isahani iriho ibiribwa, mu k'iburyo afitemo ifoke yiteguye kurya, inyuma ye hari akabati k'amabara y'umweru, inyubako arimo irasa nez ndetse harimo n'urumuri rwinshi.

Umusaza wicaye muri ya magare y'ababana n'ubumuga n'umwana mutoya w'umuhungu wicaye mu ntebe bari gukina imikino, bakoresheje manete, bombi bari kurebana mu maso hanyuma umwana agaseka, bari mu nyubako y'amabara y'umweru kandi harimo urumuri, bigaragara yuko ari ku manywa.

Umukobwa ari gusunika umusaza wambaye amataratara muri ya magare y'ababana n'ubumuga. Bombi bari guseka. Bari kuva muri kaburimbo, bamanuka baca ahantu hari ibyatsi bitoya, bitabangamira iryo gare ngo biribuze kugenda. Inyuma y'iyo kaburimbo bari kuvamo, hariho inyubako ndetse hateye n'ibiti.

Abaganga bane bari mu cyumba cyo kubagiramo, bambaye n'imyenda yose abaganga bambara, iyo bagiye kubaga. Hirya yabo hari ama ekara, agaragaza ibyo baba bari gukora, ndetse n'imashini zibafasha, muri ibyo bikorwa baba barimo. Undi muganga wa gatanu we ntabwo agaragara isura ye hari kugaragara ukuboko kwe kw'iburyo.

Icyumba k'ishuri kirimo abantu batandatu, muri bo harimo umuzunguzi ugararanye n'umugore wanyuye, harimo ndetse n'umuganga ufashe umwana ku rutugu ari kumusobanurira uburyo boza amenyo bakoresheje uburoso, ari kubimwerekera ku kibumbano uwo mwana afashe, hirya yabo hari umugabo wambaye ikoti n'ipantaro ushyize amaboko imbere, uwa gatandatu we ntabwo agaragara neza hari kugaragara agace gatoya.

Abagore bane b'abanyabuzima, bahagaze imbere y'inzu y'ababyeyi cyangwa se materineti, bose bambaye udupfukamunwa, babiri muri bo bambara amakarita y'akazi, bahagaze ku mapave ari imbere y'inzu.

Inyubako y'ibitaro by'Akarere ka Nyarugenge, ibara ryiganjemo ni umweru, ikirere kirasa neza ntikigaragaza ibimenyetso by'imvura, nta nubwo kandi izuba ari ryinshi, mu irembo rya byateye igiti kigaragara nkaho kikiri gitoya hari n'amapave.

Ibiganza bibiri by'umuzungu, kimwe kirubitse ikindi kirubamye, byambaye ga z'umukara, igikumwe kuri buri kiganza kirapfutse, na ho izindi ntoki enye enye ntabwo zose zipfutse kuko ga ziciriye ku ngingo ya mbere kuri izo ntoki enye enye za buri kiganza.

Umukobwa wicaye uri muri siporo zo kurambura akaguru kamwe, hanyuma agakoza intoki ze ku mano y'a kaguru, yambaye ipantaro n'isengeri by'mukara ndetse n'inkweto z'umweru, hirya ye hateretse icupa ririmo amazi yo kunywa, inyuma ye hari ibiti bitari bikuru cyane, hakurya hari umusozi.

Umugabo n'umugore bambaye imyenda ya siporo myiza ariko amasura yabo ndetse n'amaguru yabo ntabwo bigaragara, bafite amagurude mu ntoki arimo amazi yo kunywa kandi mu nzira bari gucamo hirya yaho hari imisozi.

Umukobwa wicaye arambuye amaguru ari muri siporo, yambaye ipantaro n'isengeri by'ubururu. Ari gukora ibishoboka byose ngo arebe ko yakoza ibiganza bye ku mano. Ni wo mwitozo arimo.

Umugabo wicaye imbere ya mudasobwa, ari kuyirebamo iteretse ku kabati. Mu cyumba arimo harimo n'izindi ntebe nyinshi, ndetse harimo na lavabo ebyiri. Uyu mugabo yambaye ishati y'iroza.

umuntu uryamye gusa utagaragara mu maso umuganga nawe mu iviso ha kumuvura mbizi uvurwa nawe ari ku kantu k'ubururu inyuma yabo igi kirasa umweru